Ifumbire iwacu mu Majyaruguru tuyifashisha mu bintu byinshi. Iyi fumbire mubona aha ngaha niyo idufasha kwera kwibi birayi na biriya bigori. Iyi fumbire uyishyira mu birayi ugiye gutera ubundi ibirayi bikera kuko ibigori, ibishyimbo ifumbire ni ingenzi.

Gutere umuti mu muceri, bibafasha kwica udukoko tuba turi mu muceri mo imbere mo hasi, utwo dukoko twangiriza umuceri turapfa. Wa muntu urimo hariya arimo aratera umuti, yambaye icyuma cyo mu mugongo bashiramo umuti, ubundi yarangiza agatera umuti mu muceri, bikawurinda kwangirika, bikica udukoko, tuba turimo imbere dutuma umuceri wangirika.

Uyu ni umuti ukoreshwa, mu bihingwa bigiye bitandukanye, kugira ngo wice udukoko tuza mu bihingwa, harimo inyanya ibihwagari kandi no mu birarayi bawukoreshamo, kugira ngo wice udusimba tuza tukangiza ibirayi.

Iyi fumbire ikoreshwa mu buryo bwo gutera ibirayi ndetse n'indi myaka, ifumbire ya ire irinda imirima kwangirika, ikica udukoko, igatuma ibihingwa byera neza.

Uburyo bwo kuhira imyaka, izi mashini, ikicuma ahetse, gifasha mu kuhira imyaka, kubera ko uba ugihetse mu mugongo, ntabwo kikunaniza cyane. Uragifata, ukagishyiraramo amazi n'umuti, bikagufasha mu kuhira imyaka no kwica udukoko turi mu myaka yawe, kugira itangirika.

Mu gihe ugiye kugura ikiganza ugenzure ifi yawe urebe ikibaze neza, reba nk'iyi fi bayibaze kubera ko iyo itabaza ukarya ibyo mu nda birakwangiza kandi biba binari kurura.

Ifi iri mu rubura. Uru rubura rurindanda iyi fi kwangirika. Kuberara ko ifi uyifashe ukayirambika ahantu hari ubushyuhe ukigendera ntuihite uyikoresha, ejo wasanga yangiritse, kandi ihita itangira guhumura nabi.

Ubu ni uburyo wateguramo ibiribwa byujuje intungamubiri, kubera ko kurya ibiryo bitetse bitagira imbuto nta kamaro bigirira umubiri, ntabwo byatuma umuntu atarwara, umuntu aba akeneye kurya ibiribwa bitetse, ndetse agakoresha n'imbuto.

Amafi bashyize mu byo kuyakonjesha, ni ukugira ngo atangirika. Kuko aya mafi aba akonjesheje ashobora kumara hagati y'iminsi ibiri cyangwa itatu utarayakoresha. Kuko iyo akonjesheje nta bwo yangirika.

Ku mwaro aho abantu bahagurukira bagiye kwinjira mu kivu cyangwa ikiyaga bagiye kuroba, bahagurukira ahangaha ku mwaro bakoresheje ano mato.

Ibi ni ibikoresho wakwifashisha ugiye gutegura ifi yawe harimo tungurusumu kandi tungurusumu zirinda inzoka kandi no mu biryo zituma ibiryo bihumura neza. Hano hariho seleri hakabaho na puwaro mu buryo bwiza bwo gutegura ifunguro ryawe riryoshye.

Isosi nziza y'inyama iteguye neza, wayisanga muri resitora na bare zigiye zitandukanye ahangaha iwacu mu ntara y'Amajyaruguru. Ibi wabibona mu maresitora agiye atandukanye, ni ibiryo byiza biryoshye iwacu.

Iki ni igihaza kimera mu murima, hari igihe kimeza ubundi bakagitera. Igihaza baragiteka n'ibibabi byacyo bifasha mu guha abantu bakabihamo amatungo, kandi na bino bibabi bibarwa mu bwoko bw'imboga.

Uyunguyu ni umurima bamaze gusaruramo ibishyimbo n'ibigori, ubu bategereje ko igihe cy'ihinga kigera ubundi bagahita batangira guhinga kubera ko igihe cy'izuba ntabwo bahita batera iyo bamaze gusarura.

Ibigorigori biba byarasaruwe mo ibigori biba ari byiza kuko ibingibi si ngombwa kubijugunya, iyo ubifashe ukabibika bikuma bigufashana mu guteka iyo byumye biraka ukabona ibiryo mu buryo bworoshye butiriwe uroha.

Amajeri y'iwacu, amajeri agiye kwera. Aha ngaha aratoshye. Ariko amajeri ni meza ku bagore batwite amajeri iyo bayakoresheje bituma bagira ubuzima bwiza ndetse n'ubw'abana batwite. Amajeri abenshi bayazi ku mashaza, ariko iwacu mu ntara y'Amajyaruguru aya tuyita amajeri.

Ubu butaka bw'iwacu ni bwiza cyane, burasa neza buratoshye, ubu ni ubutaka bwo mu majyaruguru munsi y'ibirunga, buhora butoshye busa neza ntibwumagana, ni ubutaka bwo munsi y'ikirunga burera, ubu butaka ni bwiza.

Iri shyamba tugomba kuribungabunga, tukaririnda a ba rutwitsi, tukaririnda abantu baza gutema ibiti mu gihe bitarakura, kubera ko iri shyamba rituma tugira umwuka mwiza duhumeka.

Aya ni amababi y'ibidodoki, wayakoresha ugiye guteka imboga, kandi ikindi hazaho n'ibidodoki, ibyo bidodoka umuntu arabifata akabikata, akabitekamo imboga, wanabiteka ubikasemo rimwe ukabigereka ku bishyimbo, bigira intungamubiri kuko biboneka mu bwoko bw'imboga.

Akarima k'igikoni karakenewe, kuko akarima k'igikoni ugahingamo imboga, bikagufasha kubona indyo yuzuye bitagutwaye amafaranga. Izi mboga z'inyegeri iyo uzifashe ukazikata, ukazikaranga, n'ubwo waziteka uzitogosheje ku birarayi, zigira vitamine ihagije.

Iki ni ikimera cyo mu bwoko bw'imbuto, iyo gikuze kivamo ibinyomo. Iki ngiki rero, wagitera inyuma y'urugo, wagitera muri jaride y'iwawe, ubundi mu busitani bwawe, kigakuriramo neza, ukabona imbuto bitagusabye kujya kugura imbuto ku isoko, ukazisarurira iwawe.

Aya ni amabuye y'amasarabwayi, abaturage nibo bafata amabuye bakayahondahonda hakavamo aya mamabuye, bayakoresha bubaka, niko bayifashisha.

Nzi ko uno ari umurima uhinzemo ibitoki n'ikawa, ndi kubona aribyo bahingamo. Harimo urutoki, hakabamo n'ikawa.

Aka gafuni gakoreshwa iyo umuhinzi agiye kubagara imyaka ye. Kubera ko kaba ari agafuni gatoya, ntabwo gatema imyaka, umuhinzi iyo ari kubagara imyaka, kamufasha kuyibagara neza byoroshye, kandi mu buryo bwihuse.

Hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, bacuruza imbuto kandi imbuto zigira umumaro mu buzima bwacu. Wotameroni ni nziza kuko iyo uriye wotameroni bigufasha kuyungurura igifu, ukagira ubuzima bwiza.

Imyumbati iri mu bitera imbaraga, kandi ibitera imbaraga biba bikenewe mu mubiri wacu, hari ukuyirya wayitse ukayitogosa gusa, hari ukuyirya wayifashe ukayishesha ukayikuramo ifu y'ubugari, imyumbati ni ingenzi mu buzima.

Ubu n'uburyo bapakiramo ibirayi, mu gihe barindiriye imodoka ziza kubitwara ngo zijye kubigurisha mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, babipakiraga mu mifuka hanyuma hakaza abakarani bo kudoda imifuka, imifuka bangiza bakayishyira mu modoka zibijyana kubicuruza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ibira nk'ibi ahanini wabisanga usubiye mu majyaruguru.

Avoka nziza . Iyi avoka nj nziza, irasa neza. Avoka idufasha mu kwivura umwijima, avoka ni urubuto rwadufasha mu kugira imisatsi myiza, avoka ni nziza mu buzima bwacu.

Aya n'amabuye y'iwacu ibidukikije byacu, aya mabuye akoreshwa ibintu byinshi wayubakisha uruzitiro rw'urugo. Uyarindisha ku murima wawe kugira abana batazawunyukagura. Aya mabuye azwi ku izina ry'amakoro, iwacu turayakoresha kenshi cyane mu ntara y'Amajyaruguru ntiyakunze no kuboneka cyane.

Aha hantu bahacururiza ibicuruzwa bitandukanye harimo amaronji, hkabonekamo wotameroni n'ibinyomoro. Ibi ni ibintu bikenerwa mu buzima bwacu, kuko bitwongerera ubudahangarwa bwo kwakira indwara mu buryo bworoshye.

Imbuto z'ubwoko bwiza, imbuto zo mu bwoko bwa avoka, zasaruwe mu buryo bwiza, zikaba zigiye guhunikwa kugirango zishe. Imbuto za avoka nziza cyane ku buzima bw'umuntu.

Aya mateke bayatetse neza, bayatetse ari amaganda. Urayafata ukayoza neza, ukayashyira mu isafuriya ukayateka. Iyo atetse gutya biba byiza kuko araryoha, atetse gutya aba afite vitamini irengeje kuruta kuyahata, kuko iyo uyahase hari igihe vitamini igendera mu bishishwa.

Uyu muhinzi w'ibigori, ibigori bye birereze. Ibigori bigira impungure nziza. Impungure zivamo ifu y'igikoma, zikavamo umutsima wo kurya mwiza umeze neza. Ubu ni ubuhinzi bwiza bugezweho bwa kijyambere, mu majyaruguru twifashisha mu guhinga.

Amatunda ni ikintu cyiza kuko aya amatunda afasha umuntu uyahinga mu kwiteza imbere, kandi akamufasha no kugira ubuzima bwiza. Abana be ntibagaragara mu mirire mibi yabagaburiye kuri aya amatunda.

Imineke n'avoka ni bimwe biboneka mu mbuto nziza cyane dufite mu gihugu, kuko avoka zigufasha kugira uruhu rwiza, zituma ku bagore imisatsi byibuha, umuneke ni mwiza ku wurya mbere yuko ujya kurya.

Ubu ni uburyo bwiza dukoresha turi guhinga ibirayi, imboga n'ibindi. Uburyo bwo kuhira imyaka, bituma wongera bitaka mu bihingwa kugira ngo ibihingwa bibashe gukura neza.

Amashu ni igihingwa cyiza, gifasha umuntu wagihinze kwiteza imbere, kikanafasha abaturage mu bijyanye n'imboga n'igihingwa cyiza kandi kiryoha.

Aba ngaba bari guhingira ibijumba. Iki ni igihe cy'itera kubera ko ari igihe imvura iba igiye kugwamo, iki ngiki aba ari igihe cy'itera. Aha hantu harera kuko hegereye imisozi, kandi imisozi itanga akayaga keza n'imvura bityo ikahagwa.

Pavuro ziboneka mu bwoko bwa sereri, pavuro ni nziza kuko waziteka mu nyama, waziteka mu sosi ya dodo zigahumuramo , kandi zikagira na vitamine mu gufasha amaraso yacu gutembera neza.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ikintu cyiza, Kuko izi mbuto zifasha uwazihinze mu kwiteza imbere. Kandi zikarinda n'imirire mibi mu bo mu muryango. Izi mbuto zirakenewe ku bantu bose ndetse n'abana mu kubarinda igwingira.

Izi mboga zitwa ibibiringanyo izi mboga ni nziza kuziteka biroroha izi mboga bazikatira mu isombe, bakazitekeramo isombe igahumura neza kandi izo mboga n'ubundi banaziteka nko mu bwoko bw'intoryi.

Igihaza ni igihingwa wahinga muyindi myaka. Iki gihaza bagiteye mu myaka y'ibigori, ukiyoborera uruhande rumwe, ahandi ugahinga imyaka. Aha kandi igihaza ni cyiza ku buzima bwacu, kuko gifasha umugore utwite mu kugira ubuzima bwiza n'uwo atwite.

Ingurube ni ubworozi bwiza, kuko ingurube ibwagura ibyana byinshi, kandi bikura vuba vuba mu gihe gito, bigafasha umworozi mu kwiteza imbere. Ibi ng'ibi byose iyo bimaze gukura, agurishamo bike agasigarana ibyo akeneye, kugira ngo bimufashe mu iterambere rye.

Iki ni igitebo tukifashisha, kino gitebo tukifashisha iyo tugiye kujyana imyaka ku isoko. Ufata ibijumba nk'ibi, ukabishyira mu gitebo, igitebo kikabigufasha kubigeza ku isoko, mu buryo bwororoshye. Kandi ibijumba ni byiza kuko bitera imbaraga.

Aha ngaha bahacuruza ibintu umuntu yakenera mu kwivura, hacururizwa indimu, indimu uzifashisha urwaye inkorora, bakahacururiza n'amafu y'igikoma meza avanze, yujuje ubuziranenge.

Abantu bari kubagarira imyaka. Imyaka ni myiza kuyibagara kuko iyo ubagaye imyaka ukayegereza ubutaka bituma ikura neza, ibirayi bikabasha kwera neza kubera ko biba bifite ibitaka bihagije.

Ibi n'ibirayi umuhinzi aba ajyanye ku isoko, iri ni igare ryaje gupakira ibi birayi kugira ngo ribijyane ku isoko, umuhinzi bimuhesha amafaranga yo gukemura utundi tubazo tugiye dutandukanye.

Uyu muturage ari mu murima w'ibishyimbo, uyu murima we urimo ibishyimbo byiza bishishe bimeze neza, ibi bishyimbo ni kimwe mu biteza imbere umuturage wo mu majyaruguru.

Indimu n'amacunga . Indimu iri mu bwoko burura , amacunga ari mu bwoko buryoherera . Indimu ifasha abantu mu kwivura inkorora n'izindi ndwara za giripe . Amacunga ni meza kuko atuma uruhu rusa neza.

Izi mbuto ziva mu bihaza bazikoresha iyo bagiye gutera ibihaza. Izi mbuto urazifata ukagenda ukazitera mu murima umaze nk'uzinyanyagiza mu minsi mike zihita zitangira kumbera, akaba arizo zizavaho ibihaza. Abenshi dukoresha kandi bigira umumaro mu mubiri w'umuntu.

Ubu buryo ni uburyo bwiza wasaruramo ubunyobwa, ubunyobwa ukiyicarira bikakurinda kuvunika k'umugongo, ukicara ugasarura ubunyobwa bwawe utuje.

Ubu ni ubunyobwa bukiri mu bishishwa byabwo, ubu ngubu baba bavunye kubusarura, baba bategereje kubutonora, bukiri mu bishishwa. Barabwnika bwakuma, bwakuma bakabutonora byoroshye.

Imbuto y'ibishyimbo, ibishyimbo byo mu bwoko bwa kiryumukwe, izi ni mbuto ziba ari nziza zizaterwa mu butaka bumeze neza zikera ibishyimbo byinshi kandi bikera vuba.

Ubu ni uburyo wakwanikamo ibigori kugira ngo byume vuba. Iyo wabifashe ukabizirikana ukunguko ukabimanika ku biti uba wateguye, bifasha ibigori kuma vuba, kugira ngo umuntu abone uko abibyazamo umusaruro.

Iki kigori bacyumishirije mu murima, kuko iki kigori cyumishirijwe mu murima, baragisarura ,bagisarura bagahita bagihungura , bakacyanika rimwe cyangwa kabiri iyo izuba ryavuye , bagahita bajya kugisheshamo ifu y'umutsima n'igikoma.

Iyi ni imyaka ihenze, ubu ni uburyo bwo guhinga imyaka neza, uko iyi myaka uri kubona igendeye ku murongo, no kwera yera neza, kuko umuntu wuhira abona uko yuhiri iyi imyaka, kubera ko iba igendeye ku murongo, harimo n'inzira bityo bitanga umusaruro uhagije.

Ubu ni ubunyobwa bushesheje, ni ubunyobwa batarajyana gushesha. Kubera ko ubunyobwa nk'ubu butarajyanwa gushesha wabukaranga, hari ababucuruza bukaranze kubera ko bugira amafaranga kandi n'intungamubiri, ubunyobwa bufasha abagabo mu kongera intanga.

Kugana abajyanama b'ubuhinzi bagufasha mu guhinga. Iki gihingwa ni igihingwa cy'ubunyobwa cyahinzwe hambere babifashijwemo n'abajyanama b'ubuhinzi baba barabihuguriwe. Ubunyobwa ni byiza ku buzima bwacu, kuko bukenerwa mu bintu byinshi tuba dukeneye bya buri munsi.

Imbuto y'ibiti ubwoko bw'avoka yatunganyijwe neza hasigaye kuba yahingwa ikazavamo igiti cyiza, kigatangira gutanga imbuto izi ni zimwe mu mbuto zizakoreshwa.

Iki gitebo gikoreshwa mu buryo bwo gusarura. Uyo umuntu avuye gusarura ingano, gitwara mu buryo bworoshye kandi bitananije. Izi ngano zikoreshwa mu ifu y'igikoma niy'umutsima w'ingano kuko umutsima w'ingano utera imbaraga.

Kugosora, ubu ni uburyo bwo gutora utwanda tuba turi kugaragara mu bishyimbo no mu masaka, kubera ko iyo babihuye babirambika hasi bakabikubitira hasi, haba harimo imyanda myinshi igiye itandukanye. Ubu ni uburyo bwo kubirobanura ku nkoko neza ubundi ukagira imyaka yawe isa neza.

Aha ngaha ni kuri hangari batunganyirizamo imbuto, aha ngaha niho hantu batuburira imbuto zo guhinga z'ibirayi, ahangaha bazitubura mu buryo bworoheje, izo mbuto zikoherezwa mu baturage, zikabafasha mu kwiteza imbere.

Ukuntu ducuruza imbungure n'amasaka, tubipima ku ingemeri, iriya ngemeri ni iyo dupimaho, bitegwa n'ingimera umuntu ashaka, hari igimeri uba usanga igura magana atanu, hari ingemeri iba igura magana atatu, urabonako aba ari amagemeri atandukanye, aya ni amagemeri dukoresha, ducuruza impungure, amasaka, n'ingano.

Ibi bishyimbo bigeze mu gihe cy'imiteja, biri kwegereza igihe cyo kwera. Haba habura igihe gito ngo byere, iyo ibishyimbo byatangiye guteja gutya, ni ukugenda mugaca amababi y'imishogoro mukayagabanyamo kugira ngo bibone aho byerera neza bitabora.

Ubworozi n'ubuvuzi bw'amatungo, ku matungo yo mu rugo, ubona ni uburyo bifashisha bagiye gutera inka intanga, kugira ngo zibe zakororoka mu bwoko butandukanye.

Utu dushwi tw'inkoko turasa neza, ariko nka twe tworora, izi nkoko zatugirira umumaro. Utu dushwi iyo utuguze ari nka tungahe ukatworora, mu minsi mike zikubyarira izindi nyinshi, ugatangira gutera imbere.

Ubu ubworozi bugezweho bwo korora inkoko, bakazongerera ubushyuhe, bakazigaburira, bifasha abantu mu gutera imbere byihuse ikiza k'izi nkoko zikura vuba, zikongerera umusaruro umuntu uzorora. Bikamufasha mu kwiteza imbere no mu mibereho myiza y'abagize umuryango.

Ubu ni ubworozi bwiza bwa kijyambere, ubworozi bwo korora amatungo magufi. Ni bwiza kuko bufasha abaturage mu kwiteza imbere. Uyu nguyu yorora ihene, ariko urabona ko ari nyinshi. Ntiyagira ikibazo afite ihene, ntiyabura mituweli afite izi hene.

Ingurube n' ubworozi bugezweho, kuko isigaye igira amafaranga. Ingurube ingana uku nguku ugiye kuyigurisha, bayigura nko mu bihumbi ijana na mirongo itanu nandi arengaho. Ingurube ziraribwa kandi zigira inyungu yihuse.

Ubworozi bwo korora amatungo magufi harimo inkoko, ni ubworozi bwiza. ayangaya ni amagi, aya magi abitse neza, agiye kujyanwa ku isoko, afashe nyir'ubworozi mu kwiteza imbere.

Aha ngaha bahororera ihene, ariko zino hene bororera aha ngaha ntabwo byemewe, kuko amatungo aba agomba kubakirwa kugira ngo acungirwe umutekano, aha ngaha imvura iguye yayanyagira, kandi iyo ihene zinyagiwe zirangirika, zikaba zanavanamo urupfu.

Aba ni abaganga b'amatungo, gukoresha abantu bigiye kuvura amatungo ni byo byiza kurusha gukoresha magendu, kuko ushobora gukoresha magendu ibyawe bikangirika, amatungo yawe ugasanga urayahombye.

Iyingiyi igiye mu ibagiro. Ibyayo biri kugenda biyirangira. Iyo bayinjije ahangaha, amahirwe yo kuvamo kwa yo ari nzima aba ari make. Batangiye kuyipima no kuyisuzuma, hari n'igihe bayinjizamo hano, kugira ngo babone uko bayitera imiti iyikingira uburwayi.

Udukwavu ni tumwe mu bworozi bugufi. Utu dukwavu twororoka byihuse ku buryo byafasha uwatworoye mu kumuteza imbere udukwavu turaribwa kandi turanunguka.

Abaganga b'amatungo, ni abantu bafasha amatungo mu kugira ubuzima bwiza, kuko abaganga b'amatungo baraza, bakagusuzumira itungo ryawe basanga rifite uburwayi bakarivura, hanyuma itungo ryawe ntirigire icyo riba, rikagufasha mu gutera imbere.

Ibi ni ibikoresho aborozi b'inkoko bifashisha mu kubika amagi n'abacuruzi, kugira ngo ataza kwangirika. Babikoresha bifashisha mu kubika amagi.

Inyamaswa yo mu ishyamba, gushishikariza ba mukerarugendo kuza gusura izi nyamaswa zacu zo mu ishyamba, kuko ziradufasha, izi nyamaswa zidufasha mu kwiteza imbere kuko amadovize aza mu gihugu, afasha igihugu mu gukora ibikorwa remezo.

Igikeri ni inyamaswa ikunda kuboneka ahantu mu gishanga. Kuko ibikeri bikunda amazi. Igikeri kigira umumaro kubera ko ari imwe mu nyamaswa abantu baba bakeneye. Igikeri iyo ushaka kukica ukakimenaho umunyu, umunyu ni cyo kintu cyangiza igikeri mu buryo bworoshye.

Amashyamba yacu arimo inyamaswa zacu nziza zibereye igihuhu. Dushyore mu birunga kuko ibirunga bibonekami inyamaswa nziza zibereye ijisho, tubungabunge ibidukikije kugira ngo hatagira inyamaswa zigenda zicika kuri iyi si.

Agasimba ka Mari joze ni agasimba kaza kota izuba iyo rivuye, ariko aka gasimba ni kabi, kuko iyo kagiye mu biryo abantu bariye ibyo biryo bose barapfa. Aka gasimba nta bwo ari keza, wakabonye hafi n'amasafuriya ugomba guhita ugakuraho kuko iyo kagiye mu biryo, abantu bose babiriyeho bahita bapfa.

Iyi ni imbata. Izi mbata zirororwa, ariko iyi mbata ntabwo wayororera mu bantu, kuko iba ishaka amazi ya buri kanya, kandi zigira n'umwanda. Uko zinywa amazi ya buri kanya, niko zinannya buri kanya, zitera umwanda.

Uku ni ko inyamaswa zo mu ishyamba zibayeho, ku bantu bakuru ubukerarugendo rwose gusura ama Parike n'ibirunga nka za Kalisimbi bibonera uko inyamaswa ziba zibayeho mu ishyamba, ubu ni ubuzima bwazo.

Muze gusura amashyamba y'igihugu cyacu, ahangaha muri Karilisimbi haboneka inyamaswa nyinshi nziza zigiye zitandukanye, tugomba kujya twitabira gusura ibidukikije kugira tumenye ibyiza by'igihugu cyacu, tuzabone icyo dushishikariza ba mukerarugendo, tubabwire kuza gusura ibintu natwe twiboneye.